Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa radiyanti, uburyo wakwizigama ndetse n'ifoto y'umuryango ubona ari umugabo n'umugore n'abana, ndetse na nimero y'uburyo washaka amakuru arambuye kuri ibi bintu.

Icyapa cyamamaza sosiyete y'ubwishingizi izwi nka radiyanti, irerekana nuko wakwizigamira ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka telefone ndetse banakwereka inyungu ushobora kugira igihe waba wayikoresheje ndetse na nimero wabahamagaraho, igihe waba ukeneye ibindi bisobanuro.

Itangazo ryamamaza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda kizwi nka buritamu berekana ibyo bakora n'ibyo bafite, ndetse n'aho wabasanga uramutse ushaka gukoresha ubu bwishingizi buzwi nka buritamu.

Umugore ubona ko arwaye arembye aryamye kwa muganga ndetse n'umugabo uri kumwereka ifoto bisa nk'aho ari kumusobanurira ko atari ngombwa kurembera mu rugo, ahubwo ugomba gutanga ubwishingizi, munsi gato hari icyapa cyamamaza ubwishingizi buzwi nka radiyanti ndetse na hawadi.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho iri kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi buzwi nka sahamu cyerekana aho ikorera ndetse n'ibyo ikora kugira ngo abantu bayigane.

Icyapa cyerekana banki ya Kigali izwi nka beka, cyerekana uburyo umuntu ashobora kwinjira muri konti ye akoresheje ikoranabuhanga na telefone ye, akaba yakinjira akareba konte ye uko ihagaze.

Icyapa cyerekana izina ry'iduka iminsi itandukanye bakoreraho ndetse n'amasaha wabahasanga ndetse n'iminsi badakora, nimero wabasangaho wabarizaho kuri watsapu no kuri telefoni isanzwe.

Ahantu heza ubona hari utubati tw'umweru n'umukara, hacururizwa inkweto z'ubwoko butandukanye ndetse n'amabara atandukanye ziganjemo inkweto z'abakobwa.

Ahantu heza hubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko hacururizwa imyambaro myiza kandi igezweho. Hari n'ibipupe kandi byagenewe kwamamaza imyambaro babyambitse kugira ngo abantu babone uko iyo myambaro iteye.

Ahantu ubona hapanze inkweto zitandukanye zamabara atandukanye ariko zubwoko buzwi n’ ikweto zifunguye ubona ko zipanze k’ umurongo.

Ahantu heza cyane ubona hacururizwa imyenda ipanze ku murongo, ariko yiganjemo imyenda y'abamama y’amakunzu iri mu mabara menshi atandukanye.

Ahantu hacururizwa imyambaro itandukanye kandi y'amabara atandukanye ndetse n'ibipupe byagenewe kwamamaza iyo myambaro, byambitswe iyo myenda kugira ngo abantu babashe kubona imiterere yayo.

Ahantu heza ubona haparitse imodoka zitandukanye bigaragara ko ari ahagenewe guparikwa ibinyabiziga biri ku isoko, bigaragara ko ariho umuntu yajya kugurira imodoka.

Imodoka nini cyane ubona ko ifite amabara meza y'umweru n'umukara, imbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite icyapa cyerekana ko iyo modoka iri ku isoko igurishwa inyuma yayo hari umunara w'itumanaho ndetse ni iruhande rwayo hari ibiti.

Ahantu ubona hacururizwa imodoka, hari imodoka nini cyane iri mu bwoko bwa fuso, ndetse n'abagabo batatu bafite ibirango bivuga ko aho hantu hacuruzwa, ibinyabiziga ndetse babiri muri bo bafite udukapu ubona dutukura.

Ahantu hisanzuye ubona ko hagenewe guhagarara ibinyabiziga hari imodoka enye ubona ko zose zingana kandi ziri mu bwoko bumwe hakikijwe n'ibiti inyuma yaho.

Abagabo batanu bahagaze imbere y'imodoka bigaragara ko bashobora kuba bari kwamamaza izi modoka, kuko izi modoka ziri ku isoko zishaka kugurishwa.

Imodoka nini cyane y'amabara y'umweru iri mu bwoko bw'ikamyo imbere yayo hari abantu babiri bisa nkaho ari bo bari kwerekana ko iyo modoka iri ku isoko ndetse kandi iyo modoka bari kwerekana ko ifite nimero ziyiranga zizwi nka paraka.

Imodoka nini ifite amabara y'umweru n'umukara n'utubara duke tw'umutuku izwi mu bwoko bw'amakamyo nka hoho iparitse ahantu yonyine.

Imodoka nziza y'umukara ifite amatara meza imbere iparitse ahantu heza ubona ko azengurutswe n'ibyuma iriho icyapa kigaragaza ko iri ku isoko ikenewe kugurishwa.

Imodoka nziza iri ahagenewe guparikwa ibinyabiziga, iruhande rwayo hari izindi modoka ubona nazo ziparitse inyuma yayo hari inzu y'umuturirwa kandi binagaragara ko iyi modoka iri ku isoko.

Ahacururizwa imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye ndetse n'abantu batatu ubona harimo umunyarwanda ndetse n'abanyamahanga babiri ubona bihaye Imana basa nkaho ari bo baje kugura iyo modoka.

Ahantu ubona hagenewe guparikwa imodoka, haparitse imodoka ebyiri z'umukara ariko ziri mu bwoko butandukanye, inyuma yazo hari akantu ubona ko ari nk'umutaka ukingira abantu izuba kazwi nk'itenti, bigaragara ko aho hantu hacururizwa imodoka.

Inoti ifite agaciro k'ibihumbi bitanu yakoreshwaga mu Rwanda mbere y'uko haze indi yayisimbuye, hari hariho ibirango by'abagore ubona bari kubyina ndetse iya kabiri yari iriho inzu nziza y'umuturirwa ndetse n'ibiti.

Inote y'ijana yakoreshwaga kera mu Rwanda mbere yuko haza igiceri tukaba aricyo dukoresha. Ku birango hariho ibigaragara nk'imisozi iri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Inote yakoreshwaga kera mu gihugu cy'u Rwanda ifite agaciro k'igihumbi yari yanditse mu rurimi rw'igifaransa yari ifite ibirango birimo imisozi miremire.

Umugabo uri kwakira amafaranga ari kuyoherezwa n'umugore bigaragara ko uyu mugore ari kuyamuhereza, bari ahabihurizwa ndetse n'ahohererezwa amafaranga yo mu mahanga hazwi nka wesitani yuniyoni.

Inzu nziza cyane ikoreramo ikigo cy'imari kizwi nka Ekwiti, bigaragara ko hari umugabo ufite imashini asa nkaho ariwe uri gutanga iyo serivisi ndetse n'umugabo bigaragara ko ari umukiriya ushaka imwe muri izo serivisi zihatangirwa zo kubitsa kuguriza ndetse no kwizigama.

Inote yakoreshwaga mbere mu rwanda ifite agaciro ka magana atanu, ifite ibirango ingagi abanyeshuri ndetse n'imisozi miremire.

Ahantu heza ubona hari ibikoresho byifashishwa mu ikusanyirizo ry'amata, hari umuntu ubona ko ahakora afite igicuba kirimo amata ari kuyabuganiriza mu cyuma cyabugenewe mu kubika neza amata.

Ameza ubona ashaje ateretseho indobo y'mweru, irimo ibintu bikozwe mu ifarini bizwi nka keke ndetse n'umupfundikizo upfundikiye iyo ndobo, imbere yayo hari ahantu ubona ko hari intebe yo kwicararaho.

Inzu nziza bigaragara ko ari ikusanyirizo n'ahacururizwa amata, azwi nk'amata ya Mukamira bivuze ko akorerwa ku ruganda rwa Mukamira, ndetse n'umuntu wicaye hafi yabyo y'ibyo bikoresho birimo amata.

Inzu nziza irimo amakaro ikaba irimo n'ibikoresho byifashishwa n'umuriro w'amashanyarazi kandi bigezweho, bikoreshwa mu ikusanyirizo ry'amata, ndetse no gusukura amata akagera ku bantu ari meza kandi ku buryo bugezweho.

Inzu nziza, ahatangirwa serivisi zo gucuruza amata, bigaragara ko ari ikusanyirizo ry'amata. Imbere hari abana basa nk'aho baje kuyagura, abari mo imbere na bo bari kuyabashyirira mu byo bazanye kuyatwaramo. Iruhande hari inka iri munsi y'igiti cy'umuko, bisa nk'aho yugamye izuba.

Inzu ubona ko ikusanyirizwamo amata harimo ibikoresho byabugenewe bibikwamo amata menshi, hari abagabo batatu ubona ko umwe ari gusuka abandi basa nkaho bafashe umupfundikizo w'igicuba, ndetse n'abantu ubona ko bategereje baje aho ngaho.

Ahantu bigaragara ko hacururizwa ibikomoka ku mata ndetse n'amata hari kandi intebe n'ameza bigaragara ko hicaraho abakiriya hakaba n'urupapuro rwanditseho nimero z'umuntu ndetse n'izina bibaruyeho bigaragara ko ari aho bishyurira .

Inzu nziza ubona irimo amakaro harimo n'ibikoresho byifashishwa mu ikaragiro ry'amata bigaragara ko ari ahantu hacururizwa amata asukuye kandi neza hari n'ameza kandi yifashishwa mu guterekaho ibyo bikoresho

Inzu nziza icururizwamo amata mu byiciro bitandukanye ubona ko harimo utubido duto n'utunini ndetse n'injerekani, kandi hari n'intebe zo kwicaraho mu gihe waba uri kunywa ayo mata, hejuru gato mu kabati hari inkongoro kandi byerekana ko aho hantu ari mu karere ka Nyanza.

Ikusanyirizo ry'amata riherereye mu karere ka Nyanza, hari akabati karimo utubido twinshi dutandukanyije ingano tw'amata ndetse n'icyuma cyifashishwa mu gukusanya no gutunganya ayo mata, kiriho ikirango cy'inka y'amabara y'umweru n'umukara.

Ubutumwa bugufi bwerekana uwoherereje amafaranga, uwo yayoherereje ndetse n'amafaranga yoheje, n'uburyo bwakoreshejwe mu koherereza mu kohereza ayo mafaranga.

Icyapa cyamamaza sosiyete y'itumanaho izwi nka eyateri ndetse banerekana uburyo wagura umuriro ukoresheje eyateri mani cyangwa se amafaranga ari kuri uwo muyoboro ndetse hariho n'ifoto y'umuntu bisa nkaho ari gutera ipasi.

Inyemezabwishyu yerekana ko umuntu yohereje amafaranga akoresheje ikoranabuhanga; iriho itariki woherereje ndetse n'isaha, aho bayohereje, igihugu bayoherejemo, ndetse n' uko yanganaga.

Akazu gatoya ubona kari mu mabara y'umukara n'umuhondo gatangirwamo serivisi yo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga ajya cyangwa ava mu mahanga hazwi nka wesitani yuniyoni. Imbere yayo hari abantu benshi cyane ubona ko bisa nk'aho bategereje serivisi , mu imbere harafunguye bisa nk'aho hari umuntu urimo bategereje.

Imbonerahamwe yerekana inyemezabwishyu kwisaba ryicyangombwa cyo gutangira gucuruza itangwa nikigo kigihugu gishinzwe imisoro namahoro ndetse nitaliki cyatangiweho.

Imbonerahamwe yerekana inyemezabwishyu ku mahoro, ku isuku, yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, yerekana ayishyuwe ndetse n'abishyuye ayo mahoro.

Imbonerahamwe yerekana inyemezabwishyu y'icyangombwa cyemerera gutangira gucuruza, itariki cyatangiweho ndetse n'aho cyatangiwe gitangwa n'ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Imbonerahamwe y'inyemezabwishyu, itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro namahoro, ku mahoro y'isuku. Yatangiwe Kicukiro, mu kwezi kwa gatatu, bibiri na cumi na karindwi, ndetse n'abo yahawe.

Imbonerahamwe yerekana inyemezabwishyu y'umusoro ku mutungo utimukanwa. Yatangiwe muri Gasabo, itanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahooro.

Imbonerahamwe yerekana inyemezabwishyu y'uruhushya rwo gutangira gucuruzwa itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse ni itariki yo gutangira gukora ndetse n'itariki y'igihe cyatangiwe.

Inote ikoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya bigaragara ko ifite agaciro k'amashiringi magana atanu, iriho ikirango cy'inzu nziza yubatse bigaragara ko akoreshwa mu kugura no kugurisha mu gihugu cya Tanzaniya.

Amadovize atatu atandukanye bigaragara ko hari umuntu uri kuyabara. Hari ubwoko bumwe ari kubara bufunze ahantu hamwe, hari n'ubundi bubiri buri iruhande rwe bigaragara ko yaburangije.

Inoti ebyiri zo mu gihugu cya Tanzania bigaragara ko zifite agaciro k'amashiriningi igihumbi imwe iriho ikirango cy'umumama, indi note nayo iriho ikirango cy'inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho ndetse n'iterarapo ry'igihugu.

Umugabo ubona ko ari kureba amafaranga afite mu ntoki ayiganjemo magana atanu azwi nk'amarope yifashishwa mu igurana n'igurisha mu gihugu cy'ubuhinde ndetse n'izindi note afite mu kudi kuboko.

Icyapa cya banki nkuru y'u Rwanda izwi nka beneri cyerekana uburyo ku itariki cumi na zirindwi zukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatatu, amadovize atandukanye yavunjwaga mumanyarwanda ndetse n'amadarapo y'ibihugu bitandukanye.

Umuntu ufite amafaranga menshi cyane atandukanye bisa nkaho hari inote ari kwitegereza ndetse bisa nkaho ari no kuyaba amenye umubare wayo.

Inote yifashishwa mu kugura no mu kugurisha mu gihugu cya Tanzaniya ndetse n'uburyo igaragara ifite inyubako ndende ndetse n'idarapo.

Imishandiko itatu y'amadovize y'amanyaburayi bigaragara ko buri mushandiko ugizwe n'inoti z'icumi bigakora igihumbi.

Amadovize menshi y'abanyamahanga atandukanye afunze ndetse n'umuntu ufite inoti mu ntoki bigaragara ko ayo yafunze ndetse n'andi atafunze, inyuma ye hari izindi noti nyinshi zifunze mu buryo bukomeye.

Imashini yabugenewe mu kubara amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa iri gukoreshwa n'umukobwa, ubona ko ari kubara amafaranga ariko afite n'imashini imbere ye, bisa nk'aho ariko kazi akora.

Akazu gatoya kari mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu kerekana, gafite icyapa cyerekana ko hakorerwa ivunja n'ivunjishwa ry'amadovize mumanyarwanda cyangwa mu manyamahanga.

Ahantu heza cyane hubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko batanga serivisi z'ivunja n'ivunjishwa ry'amadovize mu banyarwanda cyangwa abanyamahanga; hari abantu kandi bahakora biganjemo abanyamahanga ndetse n'umwirabura; hari kandi n'imashini ikoreshwa mu buryo buzwi nka etiyemu.

Inzu nziza ubona yubatse ku buryo bugezweho iriho icyapa cyerekana ko hatangirwa serivisi z'ivungwa n'ivunjishwa ry'amadovize mu manyarwanda cyangwa mu banyamahanga.

Inzu ntoya ifite amarange y'umweru, hejuru kandi urabona ko handitseho inyuguti ziri mu mabara atandukanye zisobanura ko hatangirwa serivisi z'ivunja n'ivunjishwa ry'amafaranga, imbere yayo urabona ko hari icyapa kindi gifite ibintu byanditseho, hirya y'icyapa hari ahantu ubona ko hateye ururabo.

Inzu nziza yubatswe ku buryo bugezweho yerekana ko hakorerwa serivisi y'ivunja n'ivunjishwa ry'amadovize mu nyarwanda cyangwa mu manyamahanga imbere yayo hari intebe bigaragara ko arizo abantu bicaraho igihe bategereje izo serivisi.

Inzu ikikijwe n'ibyuma biri mu mabara y'umweru, imbere yabyo hari icyapa cyerekana ko hakorerwa ivunja n'ivunjishirizwa ry'amadovize mu manyarwanda, cyangwa mu banyamahanga aho iherereye, ndetse na nimero wahamagara uramutse utabahasanze.

Icyapa cyerekana ndetse kikanamenyesha ko aho hantu hatangirwa serivisi z'ivunjwa n'ivunjishwa ry'amadovize mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga byerekana kandi ko hakorera banki nkuru ya kigali kandi hakaba hakorera n'ikigo cyohereza kikanabikuza amafaranga kize nka wesitani yuniyoni.

Icyapa cyerekana ahatangirwa serivisi z'ivunja n'ivunjishwa ry'ama amafaranga y'amadovize mu munyarwanda cyangwa mu manyamahanga, hirya yaho hari umuhanda urimo abantu n'ibinyabiziga bigaragara ko buri muntu wese afite gahunda agiyemo.

Ahantu hatangirwa serivisi y'ivunja n'ivunjishwa ry'amadovize mu manyarwanda cyangwa mu manyamahanga ndetse na nimero wabasangaho, ndetse n'icyapa kiyobora ahariho, inyuma y'aho hari inzu itangirwamo serivisi yo gutwara abagenzi mu cyerekezo Bukavu, Kigali, Kampala, imbere hari abantu basa nk'aho bagiye gusaba serivisi yo gutwarwa.

Inzu nziza ubona yubatse kuburyo bugezweho ifite icyapa cy'ubururu kiri mu mabara y'umweru gisobanura ko hatangirwa serivisi z'ivunja n'ivunjishwa, hari kandi abantu ubona ko baje muri iyo nzu gusaba serivise barahagaze basa nkaho bari kuvugisha umuntu uri imbere.

Inzu nziza ifite amabara y'umukara ndetse n'inyuguti zandikishije amabara y'umuhondo ndetse n'ibindi byapa bitandukanye byerekana serivisi zitangirwa aha hantu ndetse ko hanavunja hakanavunjishwa amafaranga y'amadovize mu manyarwanda cyangwa mu manyamahanga.

Inzu ifite amarangi y'umweru n'ibirahure, itangirwamo serivisi y'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'amadovize mu manyarwanda cyangwa mu manyamahanga ndetse yerekana na nimero zabo, wahamagara igihe waba utabahasanze.

Icyapa cyerekana uko byari bihagaze ku itariki enye z'ukwa cumi n'abiribiri bibiri na makumyabiri na kane, uko ivunja n'ivunjishwa ry'amadovize rihagaze mu mafaranga y'u Rwanda.

Ahantu harunze imbaho nyinshi cyane zitandukanye bigaragara ko bakora ibikoresho bibaje neza kandi biva mu mbaho, hari kandi n'abantu ubona ko bahicaye bigaragara ko ari abakozi babo hari ndetse na shitingi z'ubururu ubona zitwikiriye ibindi bikoresho.

Inzu nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye ubona ko biri mu mabara meza y'icyatsi, kandi ko byabajijwe mu biti bikaba bifite n'imisego ndetse n'izindi ntebe nziza ubona ko ari ahacururizwa ibikoresho cyangwa aho bikorerwa.

Ibikoresho byiza ubona bigezweho, byiganjemo utubati twifashishwa muri salon mu kubika ibikoresho byo mu rugo, ndetse hirya gato hari intebe bigaragara ko aho hantu hashobora kuba hakorera hakorerwa ibikoresho byinshi bitandukanye.

Ahantu hari intebe nziza, zifite ibara rimwe ndetse n'imisego, imbere yazo hari ameza, ubona ko aho hantu hacururizwa ibikoresho byo muri saro, inyuma yaho kandi hari imbaho nyinshi, ubona zitarakoreshwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'umuturirwa ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'ibiti byiza cyane bigaragara ko ari ahantu hasurwa n'abantu benshi hagiye hari n'aho kwicara hatandukanye hanogeye ijisho.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho ifite amarangi yiganjemo umutuku n'umweru, ifite ibirahuri byinshi by'amadirishya atandukanye imbere yayo hari ubusitani bwiza, buteyemo indabo zibereye ijisho bigaragara ko ari ahantu hakira abantu benshi, mu buryo bwo kuhasura ndetse no kuba wagira icyo wakorera nk'ibirori n'ibindi.

Ahantu heza cyane, hubatswe mu buryo bwiza, hari kandi ahantu abantu bakwicara, imbere yayo hari ubusitani bwiza, burimo indabo zigezweho ndetse n'utwatsi, bigaragara ko ari ahantu umuntu yakwicara, hasurwa n'abantu benshi.

Intebe nziza bigaragara ko ari intebe zo kuruhukiraho zisakajwe n'imitaka yarinda abantu izuba ryinshi, Imbere yazo hari amazi meza cyane bigaragara ko abaje kuruhuka ari yo bogamo amazi n'ayo akikijwe n'ibyatsi bigaragara ko ari ahantu hasa neza habereye ijisho kandi hasurwa n'abantu.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho ifite amarangi meza ndetse n'ibirahure byinshi iberamo inama iherereye mu mujyi wa kigali i remera izwi nka radison hotel yubatse muri convention centre kigali .

Ahantu heza cyane ubona hanogeye ijisho hari intebe nziza zo kuruhukiramo hari n'utundi dutebe dutoya ubona tunejeje bigaragara ko ari ahantu abantu basohokera cyangwa bakorera ibirori hakikijwe n'amazu menshi inyuma yaho ndetse n'ibiti byinshi.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali izwi ku izina rya komveshoni senta iberamo inama zitandukanye yubatse ku buryo bwihariye kandi butangaje ifite amabara meza anogeye ijisho yiganjemo ibara ry'ubururu.

Inzu nziza cyane abantu bashobora gusohokeramo imbere haragaragara umuntu ubona usa nkuhakora uri kwakira umugabo, bigaragara ko ahangaha ari aho bakirira abantu hazwi nka reception hari kandi n'amafoto agiye atandukanye ndetse niyu mukuru w'igihugu.

Ahantu heza cyane ubona hari amarangi meza, hakurura umuntu uwo ari we wese, hari kandi ubusitani bwiza buteyemo indabyo nziza, imbere y'iyo nzu hari hari ibibumbano byiza birimo indabo bizwi nk'amavasz, bigaragara ko ari ahantu hakurura buri umwe wese kuhatemberera.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho, ifite amatara meza, yakurura abantu mbese anogeye ijisho, ikikijwe kandi n'amazi bigaragara ko ari ahantu ho kuruhukira ndetse n'umuntu yasura akaba yahiyakirira mbese inogeye ijisho.

Ahantu heza cyane ubona hubatse mu buryo bwiza, hafite ahantu ho kwicara buri muntu wese yabasha kwicara yisanzuye, ndetse imbere yaho hari n'ameza, bigaragara ko ushobora no kuhafatira icyo kunywa, cyangwa icyo kurya.

OInzu nziza cyane y'umuturirwa yubatswe ku buryo bugezweho, ifite ubusitani mu imbere, ifite ibirahure byinshi ndetse n'ahantu hejuru yayo ho kwicara bigaragara ko ari ahantu hasurwa n'abantu umuntu akaba yahafatira icyo kunywa ndetse n'icyo kurya mu buryo buboneye.

Inzu nziza itegurirwamo amafunguro ndetse higanjemo imitobe ikoze mu mbuto ndetse n'izindi mbuto zitarakoreshwa imineke ndetse n'inanasi ndetse n'iyo mitobe yarangije gukorwa.

Inzu nziza cyane irimo intebe n'amezaza ubona bipanze neza ku buryo bwiza kandi binogeye ijisho bigaragara ko ari ahantu umuntu ashobora gusohokera akahafatira amafunguro ndetse n'ibyo kunywa hashobora kandi no kuba habera inama ndetse n'amahugurwa n'ibindi bintu bihuza abantu.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, icyapa cyerekana ko hatangirwa serivisi z'ubwishingizi z'ikigo kizwi nka Radiyanti. Imbere yaho haparitse moto itariho umuntu, bisa nk'aho uwo muntu yagiye gusaba ubwishingizi akayisiga hanze.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka purayime ryerekana ko giherereye cyangwa gifite ishami i Musanze.

Inzu nziza itangirwamo serivisi y'ubwishingizi z'ikigo cyitwa yuweyipi, icyapa kandi kikaba kinerekana nimero ushobora kubahamagaraho, ndetse mu muryango wabo hariho umuntu ubona ko ashobora kuba yizigama yishimye.

Inzu ikoreramo ikigo gitanga serivisi yo kwishinganisha mu Rwanda ishami rya Rwamagana. Imbere yayo hari abagore bambaye imipira y'umweru bigaragara ko bashaka kwinjira muri iyo nzu.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho iteye amarangi meza arimo umweru, umutuku n'ubururu. Ikikijwe n'ubusitani bwiza ubona buteyemo indabo, ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda buzwi nka buritamu bwo kwizigama muri ubwo bwishingizi.

Inzu nziza cyane ubona ifite amarangi y'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru, ikaba ikoreramo ifite n'ibirango by'ubwishingizi bwa beka ndetse hakurya hakaba hari n'ibirango bigaragaza ko bakoreramo ba ajenti b'izindi banki kandi ikaba inaherereye Sonatube.

Inzu nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho ifite amarange y'icyatsi ndetse n'umweru imbere yayo hari icyapa kiyiranga cyerekana ko hakorera ubwishingizi buzwi nka buritamu hagati hari umuhanda hakurya yaho hari indi nzu nziza y'umuturirwa.

Inzu ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka purayimu inshuwarensi mu Rwanda, ubona ko ifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'ibirango by'ubwo bwishingizi, ndetse na nimero wahamagara bakagufasha.

Inzu nziza iri mu mabara y'umutuku n'umweru bigaragara ko ikora ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka yu eyi pi mu rwanda, gifasha abantu kwizigamira ndetse hariho n'amafoto ubona y'abantu bishimye biga b'abanyeshuri ndetse n'abandi.

Itangazo ry'ikigo k'imari kizwi nka beride mu Rwanda cyerekana gahunda nshya igiye gutangira izwi nko kwizigama mu buryo burambye.

Itangazo ryerekana ko ikigo cyitwa Umutanguha gitanga inguzanyo ku baturage cyafunguye ishami mu mugi wa Kigari muri Kicukiro.

Itangazo ryerekana imyanya ikeneye abakozi muri banki y'abaturage y'u Rwanda ndetse no kubereka igihe ntarengwa cyo kuba bamaze gusaba kwinjira muri iyo myanya.

Itangazo rishishikariza abantu kugana banke y'abaturage y'u Rwanda izwi nka bipiyara ibereka ibyiza byayo, inguzanyo itanga, igihe imara ndetse n'amafaranga ishobora kwaka ndetse na nimero ushobora kubazaho andi makuru arambuye.

Abanyarwanda b'igitsina gore benshi ubona ko bishimye, bari kumwe n'umunyamahanga umwe. Imbere yabo hari ibicuba by'amata bitakishije amabara y'icyatsi bigaragara ko bari mu bucyerarugendo bushingiye ku baturage.

Isoko ryisanzuye ubona ricururizwamo imyenda myinshi itandukanye ndetse hari n'ibintu bikoze mu mbaho ubona ko bimanitseho iyo myambaro hari kandi n'abantu ubona ko bahacuruza ndetse n'abandi ubona ko bari kugenda birebera iyo myambaro isa nk'aho ari bo bakiriya.

Ahantu hisanzuye ubona hacururizwa imyaka myinshi yiganjemo imboga n'imbuto hari abamama kandi bicaye bisa nkaho ari bo babicuruje ,hakurya gato hari abandi bantu benshi ubona ko nabo bacururije muri iryo soko ndetse n'abakiriya baje kugura .

Ahacururizwa imyaka y'umwimerere igaragara avoka, inyanya, imineke, ibishyimbo ndetse n'ifu ndetse n'umumama ubona usa nk'aho ari gupimira umukiliya amashaza, akoresheje igikoresho kizwi nka mironko.

Inzu yisanzuye icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo imbuto nyinshi ubona ko kandi ari isoko ryaremwe n'abantu benshi batandukanye, ku muryango aho binjirira hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse n'abantu benshi ubona ko baje kugura.

Ahantu ubona ko hakorerwa ubucuruzi bw'ubwoko bumwe butandukanye, ubona ko bapakira mu mifuka ndetse n'aba mama ubona ko aribo bahakorera bacuruje, bicaye ku murongo ubona ko buri wese afite icyo ari gupakiriramo. Abo ba ma mama kandi bambaye udupfukamunwa bigaragara ko hari muri covide.

Isoko ry'ibiribwa ryiganjemo imbuto z'amacunga bigaragara ko hari abacuruzi bari kugurisha ayo macunga, ndetse n'abakiliya bari kugura ayo macunga bigaragara ko bose bishimye.

Ahantu hisanzuye bigaragara ko hacururizwa imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, hari kandi abagore bicaye ubona bari gupima urusenda mu tuntu bigaragara ko ari cyo bagenderaho bagena igiciro cyarwo, hari n'abandi bantu ubona ko ari abakiliya, mbese baremye isoko.

Inzu y'umuturirwa nziza kandi ndende imbere yayo hari abantu benshi ubona ko basa nk'abacuruza hari kubera icuruzwa ry'ibintu bitandukanye, munsi yayo kandi nta y'indi nzu ubona ko ari ngufiya, imbere yayo naho hari abantu benshi batandukanye ubona ko buri wese afite ibyo arimo.

Ahantu heza cyane hubatswe kuburyo bugezweho hafite urugi rw'ibyuma imbere mu nzu harimo abantu ubona ko bafite ibintu bari kugura byinshi bitandukanye buri wese ari gutegereza kugirango abashe kugerwaho hari n'abandi bari kubakira babazaza ibyo bashaka.

Umugore w'umucuruzi wambaye umwambaro w'umukara urinda kwiyanduza, bigaragara ko ariko kazi akora, yegeranye n'amacunga menshi, ari gusatura amacunga kugirango yereke abakiriya ko aryoshye, ndetse biragaragara ko acuruza n'ibindi biribwa byinshi bitandukanye.

Inzu nziza ikoreshwa nk'isoko rihuza abantu benshi batandukanye, rigaragara ko hari abagore bicaye bashobora kuba bacuruje ndetse n'abantu bari kugenda bigaragara ko bavuye guhaha ndetse n'abandi basa nkaho bafite ibyo bari kwerekerwa.

Inzu ubona izengurutswe n'ibyuma, mo imbere muri iyo nzu hakorera abagore badoda, inyuma y'ibyuma gato hari umuntu ubona ko aje kudodesha ari kubavugisha, inyuma y'uwo muntu hari imodoka nyinshi zitandukanye ndetse n'amaduka menshi acuruza ibintu bitandukanye.

ahacururizwa ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto, bigaragara ko higanjemo ibiribwa bitaciye mu ruganda hari kandi nu umama ubona ko acuruje ariko bisa nk'aho yananiwe kubera ko nta bakiriya benshi bari kuza.

Ahantu hisanzuye hacururizwa ibyokurya byinshi bitandukanye harimo ibitoki, ibirayi, amateke, imboga ndetse n'imbuto hakaba hari abantu ubona ko bacuruza ibyo biryo ndetse n'abandi bantu benshi ubona ko baremye iryo soko bisa nkaho baje guhaha ibyo biribwa.

Ahantu hisanzuye ubona hacururizwa imyambaro myinshi itandukanye y'ubwoko butandukanye, kandi y'amabarita atandukanye. Hari kandi n'abantu ubona ko baje kugura iyo myambaro, ndetse n'abandi ubona ko bacururiza muri iryo soko bari kuberekera iyo myambaro.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, ubona ka sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyene, inyuma yako hari umuntu ubona ko yaje gusaba serivisi zihatangirwa, mw'imbere harimo umuntu bisa nkaho bari kuvugana amusobanurira ibijyanye n'ibyo ashaka.

Icyapa cyerekana ko ushobora guhaha, ukishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka momo peyi, aho ushobora kwishyura batagukase. N'ubundi buryo buzwi nka visakadi, bwose ni uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu ashobora kwifashisha ahaha, akishyura.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyeni ndetse na eyateri kariho uburyo wakohereza cyangwa kohererezwa amafaranga ndetse n'abantu bari imbere y'ako kazu bigaragara ko baje gusaba serivisi.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo bigaragara ko gafite ibirango bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene ndetse n'umuntu ubona ko ari mo iimbere bisa nk'aho ariho akorera, ndetse n'umuntu, n'abandi bantu bari inyuma bigaragara ko baje gusaba serivisi aho ngaho.

Akazu k'amarange y'umuhondo kariho ibirango bya sosiyete y'itumanaho izwi nka MTN, mw'imbere harimo umukobwa bigaragara ko akoramo kuko nawe yambaye umupira wa MTN, iruhande rwako hari inzu yamamariza irindi tumanaho rizwi nka AIRTEL hari n'umwana imbere y'iyo nzu.

Inzu nziza cyane irimo akabati keza k'ibirahure hejuru hari amatelefone bigaragara ko hacururizwa telefone hari kandi n'umuntu ubona ukorera sosiyete y'itumanaho izwi nka MTN ndetse n'umunyamahanga bisa nkaho ari kugira ibyo asobanuza , ndetse n'abandi bantu babiri ubona bose baje aho hantu .

Umukozi wa sosiyete z'itumanaho zitandukanye ubona wambaye umwambaro wa sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyene ndetse n'umupira mu imbere wa sosiyete w'irindi tumanaho rizwi nka eyateri, uhagararanye n'umumotari utwara moto yifashishwa mu kugeza ibiryo ku bantu batavuye mu ngo zabo.

Cyane ubona ikorerwamo ubucuruzi butandukanye hari kandi n'umuntu ubona ko akorera sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyene ariko wigisha uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga atari ngombwa gutwara amafaranga mu ntoki ahubwo ukishyura ukoresheje telefone yawe ndetse n'umukiriya ubona wishimye kandi bisa nkaho wishimiye iyo serivisi.

Akazu gatoya kari mu mabara y'umuhondo bigaragara ko hatangirwamo serivisi za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka Emutiyene, inyuma yako hari abantu benshi ubona ko baje gusaba izo serivisi, mo imbere kandi harimo umuntu umwe uri kwakira ibibazo bafite ndetse agasa nk'aho ari no kubikemura.

Gafite amabara y'umuhondo ubona ko ari amasosiyete y'itumanaho ijwi nka emutiyeni ry'imbere harimo abantu bicaye ubona ko bakorera muri ako kazu ndetse nyuma y'akazu hari n'andi maduka acuruza ibindi bintu ndetse n'umwana mutoya ubona urikwigendera.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyene mo imbere mu kazu harimo umukobwa bigaragara ko ariwe uhakora, inyuma yako hari abagabo babiri bari inyuma y'ako kazu ndetse birerekana n'icyo bakoreramo, ko ushobora kohereza amafaranga, ukabikuza n'ibindi.

Akazu gatoya gakoreramo umu agenti wa sosiyete y'itumanaho izwi nka ematuyene ndetse n'abantu ubona bari hanze yako bisa nkaho bari gushaka izo serivisi zitangirwamo hari kandi n'icyuma kimanitseho ikoti ry'umuntu inyuma yaho hari inzu ubona itaruzura neza.

Icyapa cyamamaza uburyo ushobora guhaha wikoresheje ikoranabuhanga atari ngombwa ko ugera aho bagiye guhahira ndetse n'abantu basa nkaho bakoresheje poroduwi zabo.

Umumotari uri hagati mu muhanda uhagaze ufite moto mu ntoki, atwaye moto ndetse n'igikoresho kizwi gitwara ibiryo, babijyana ku bantu atari ngombwa ko bavuye mu rugo, mbese bikabasanga mu rugo.

Inzu nziza cyane, yubatswe ku buryo bugezweho, iri mu kibanza cya metero kare magana atatu mirongo irindwi n'eshanu, iherereye mu mujyi wa Kigali, igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho, ifite itara ubona naryo ryiza rigezweho, iri kugurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane, ifite ibikoresho byiza byo muri salo, intebe nziza n'ameza, iherereye Kicukiro, Kagarama mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amadovize igihumbi n'ijana y'amanyamerika buri kwezi.

Inyubako nziza ubona ifite amatara ndetse n'amarangi ari mu mabara y'umukara, iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, iri ku isoko, igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Uwogero bwiza bwubakishije amakaro bwubatswe ku buryo bugezweho burimo ibikoresho byinshi bitandukanye, buherereye Kicukiro Kagarama mu mujyi wa kigali bwishyurwa amadovize igihumbi n'ijana y'Amanyamerika buri kwezi

Inzu nziza cyane! Ifite amatara meza n'ibirahure byinshi, ku rukuta hariho igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, hakodeshwa ibihumbi magan’atandatu ku kwezi. Harimo ibyumba bibiri, haherereye kigali, Remera, ariko nta bikoresho byo mu nzu birimo! urabyizanira.

Ubwogero bwiza bugezweho kandi burimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu koga buherereye mu mujyi wa Kigali bugurishwa miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga yu Rwanda.

Imiturirwa myiza cyane iri ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza buteyemo indabo n'ibiti haherereye mu mujyi wa Kigali hakodeshwa amadovize magana inani y'amanyamerika buri kwezi, imbere yaho hicaye umuntu ubona ko yicaye ku gatebe.

Ubwogero bwiza bwubatswe ku buryo bugezweho burimo amakaro ndetse n'ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga biba birimo amazi yo koga bidasabye ko uyakura muri robine ako kanya iri karabiro rikodeshwa amadovize magana atanu mirongo itanu y'amanyamerika buri kwezi riherereye mu mujyi wa kigali.

Icyumba cyiza cyane giherereye gisozi kigali kirimo igitanda ndetse na matora ndetse n'ibyo kwiyorosa kandi gifite n'imisego ibiri.

Inzu nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho kandi bwihariye mu imbere harimo umuntu; iyi nzu kandi iherereye mu mujyi wa kigali mu rwanda; ikodeshwa amadovize ibihumbi bibiri buri kwezi.

Inzu nziza cyane iri ku muhanda yubatswe ku buryo bugezweho, ifite urugi rwiza ruzwi nka porotaye ruri mu mabara meza, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, iruhande rwayo hari izindi nzu nazo nziza, zegeranye n'ipoto ubona ko itanga umuriro w'amashanyarazi, mu bice bitandukanye.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho, iherereye Kigali Kanombe, ifite ibyumba bine, ifite aho kogera hatatu, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'amafaranga y'u Rwanda, buri kwezi.

Inzu nziza cyane ubona yubatswe ku buryo bugezweho iherereye kimironko Kigali ifite ibyumba bitatu, aho kogera habiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, ndetse kandi hariho n'icyapa cyamamaza ubwoko bwitwa samusange na nimero wabababarizaho.

Perezida Paul Kagame mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu ishyaka efuperi inkotanyi. Hari abashinzwe umutekano we, abaturage ni benshi cyane, kandi bose bafite amadarapo y'ishyaka rya efuperi.

Uruganiriro rwiza rurimo ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga, ndetse n'intebe nziza zo kwicaramo, n'ameza, iherereye Kimironko, mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa ibihumbi magana atatu buri kwez cyangwa amadorari magana abiri na cumi n'atanu.

Inzu nziza cyane yubatse ku buryo bugezweho, imbere yayo hari intebe ubona ko ari ahantu ho kwicara hanze, hari kandi n'ubusitani bwiza cyane ubona ko bwatanga umwuka mwiza, iherereye Kigali Rebero ikodeshwa amadovize ijana y'amanyamerika ku munsi.

Inzu nziza cyane, yubatswe ku buryo bugezweho, iherereye Kacyiru Kigali, ifite icyumba kimwe, ubwogero bumwe, iri gukodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri y'u Rwanda buri kwezi.

Umutirirwa mwiza cyane, wubatse ku buryo bugezweho, ufite amakariye ajya mu nzu, akikijwe n'ibyuma, imbere yayo hahagaze umugabo ubona ko ari kwitaba telefone, ifite ibyumba bibiri ndetse n'aho gukarabira habiri, nta bikoresho byo mu nzu birimo, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Icyumba cyiza cyane ubona kirimo amakaro gifite urugi rwiza rw'ibirahure, gikoreshwa na serire ubona gifunguye gifite urufunguzo ruri muri serire gikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inzu nziza yubatswe ku buryo bugezweho, bigaragara ko ifite amakaro inyuma n'imbere, ifite ibirahure byiza bizwi nka fime, ifite ahagenewe guparikwa ibinyabiziga, ikaba iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu y'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza cyane iherereye kanombe masoro irimo ibikoresho byose byo mu nzu ifite ibyumba bibiri ikagira aho kogera hamwe aho kwicara hazwi nka saro, igikoni mo mbere ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo irindwi buri kwezi.

Iduka ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye ndetse n'abantu babiri bahagaze; bambaye udupfukamunwa. Bisa nk'aho bari kwitegereza ibintu bihakorerwa, kugira ngo babashe kugura ibibazanye.

Inzu nziza cyane irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi bintu bigaragara ko akabati gatonze neza buri kintu cyose gifite umwanya cyagenewe gushyiramo, hari n'akandi kayira kagenewe gucamo abantu baza guhaha ibyo bintu, harimo umugore ubona ko afite igikapu yaje guhaha.

Ahacururizwa imyambaro itandukanye hari umugabo bigaragara ko ariwe ucuruje iyo myambaro, inyuma ye hari ibibumbano nyamamaza myambaro birimo ubwoko bw'amakanzu atandukanye.

Iduka ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, bigaragara ko hari abantu bahacururiza ndetse n'abandi bantu bisa nk'aho bari kubabaza ibyo bakeneye bakaba bari kuvugana.

Ahantu heza cyane ubona hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, ubona bipanze neza mu kabati kandi buri bwoko bwegeranye. Mo imbere harimo abantu ubona ko bakora aho, bacuruza, inyuma hari abantu ubona ko ari abakiriya baje kugura, bisa nk'aho bari kubabaza ibiciro ndetse n'ibyo bashaka.

Inzu nziza icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, hari kandi n'abantu ubona ko baje kugura ibyo bicuruzwa bari kureba ibyo bakeneye, bari muri iyo nzu.

Isoko ryitabiriwe n'abantu benshi, ubona ko harimo n'abacuruzi benshi bari kubakira, ibicuruzwa ni ibicuruzwa bitandukanye ariko byiganjemo ibitaranyuze mu ruganda, hari kandi n'abandi bantu ubona ko bahagaze bategereje kwakirwa.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ubona iriho ifoto y'umwana ukiri mutoya ndetse n'imyirondoro y'uwo mwana yose ndetse n'ikiganza gifashe iyo karita ndetse n'igihe yatangiwe.

Ibiganza by'umuntu w'igitsina gore bigaragara ko yagiye kwivuza afite ifishi ndetse n'ubwisungane mu kwivuza wicaye ari kumwe n'abandi bisa nk'aho ategereje ko bamwakira.

Ikirango kiri mu mabara y'umuhondo y'icyatsi kererutse ndetse n'icyatsi kijimye kerekana gahunda ya leta yitwa ejo heza yo kwizigama amafaranga mu buryo burambye.

Amakarita menshi ubona arunze hamwe afite ibara ry'ubururu, akoreshwa mu bwisungane mu kwivuza azwi nka mituweli, ateretse ku kintu ubona cy'umuhondo.

Ni umuntu ubona ufite indangururamajwi wambaye umupira uriho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi ku buzima, kizwi nka ara esi esibi bigaragara ko ari kubabwira ibyiza bya mituweri.

Abantu babiri ubona bishimye bari kumwe ndetse n'icyapa cyerekana ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi ku buzima kizwi nka arasesibi (RSSB) ndetse n'ikindi cyapa cyerekana ko ejo haba heza kurusha uyu munsi.

Inzu ubona ko ifite inzugi z'amabara y'umweru, imbere yayo hicaye abagore bane ubona ko hari ikintu bategereje, umugore umwe muri bo afite umwana, abandi nabo bafite impapuro bisa nkaho ari zo bari kwifashisha basaba serivisi aha hantu.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu kiriho ikirango cy'ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli, hejuru yacyo hari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi ku buzima kizwi nka ara esesibi.

Ikarita iri mu ibara ry'umuhondo y'ubwisungane mu kwivuza, iriho ifoto y'umwana mutoya ndetse naho yatangiwe, igaragaza kandi itariki yatangiweho ndetse na nyirayo.

Ahantu ubona hicaye abagore benshi ariko bisa nkaho barwaye bafite amakarita y'ubwishingizi azwi nka mituweli bategereje kwivuza bicaye ahagenewe kwicara abarwayi bisa nkaho ari kwinjira umwe umwe muganga akamwakira.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi kizwi nka arasesibi, cyerekana ko umuntu ashobora kubaho neza ahazaza ndetse n'umuntu ufite mudasobwa ari gukoresha, bigaragara ko hari ibyo ari gushyira muri sisitemu yabo.

Ahantu heza ubona hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, byiganjemo ibyo kurya biciye mu ruganda, hari kandi n'uburyo bitondetse bigaragara neza ko byitondewe, bigaragara.

Ahantu heza cyane ubona hanogeye ijisho, hari amabara meza cyane, ubona hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye biri mu tubati tumeze neza, kandi buri kintu cyose gifite umwanya wakibarizamo, hari kandi n'abakiriya bahagaze mu kayira kasizwe kagenderwamo n'abakiriya, ubona ko bafite ibyo baje kugura.

Yubatswe ku buryo bugezweho isa neza cyane hari kandi utubati dupanzemo ibintu byinshi bitandukanye ariko buri kintu cyose kigafata umwanya wa wacyo bigaragara ko ari ibintu byiganjemo ibikorerwa mu nganda.

Inzu nziza cyane icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye hari kandi n'utubati dutonzemo ibicuruzwa bitandukanye bigaragara ko byapanzwe byitondewe, hari kandi n'umumama ubona uri kugenda mu kayira kagenewe gucibwamo ufite igikapu bisa nka'aho aje kuhahahira.

Inzu nziza cyane irimo akabati gapanzemo ibintu mu buryo bw'itondeke, bigaragara ko buri kintu cyose gifite umwanya wacyo wabugenewe, ndetse ibyo bintu higanjemo ibikorerwa mu ruganda. Hari n'umuntu kandi bigaragara ko ari nk'umukiriya uri kujya areba ibyo bintu.

Inzu icururizwamo ubwoko bw'imboga n'imbuto bitandukanye ndetse n'umumama ubona waje kugura ibyo bintu ari kujya yitegereza ngo arebe ibyo akeneye, uwo mama afite agakapu ubonako ariko yaje guhahiramo.

Isoko ry'ibikoresho bitandukanye, harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari kandi n'abantu ubona ko bari kurisohokamo bigaragara ko bavuye muri iryo soko guhahamo. Hari n'abandi inyuma bigaragara ko bari kureba ibyo bagura.

Ahantu heza ubona hubatse ku buryo bugezweho hari utubati dupanzemo inkweto ndetse n'imyambaro bigaragara ko hacururizwa imyenda n'inkweto hari kandi n'amamashini menshi atandukanye bigaragara ko bagura hakoreshejwe ikoranabuhanga hari n'amakarito menshi agiye ateretseho ibintu ndetse n'umuntu ubona ko ari gukoresha iyo mashini.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye bigaragara ko higanjemo ibyaciye mu ruganda bitondetse mu buryo bwegeranye kandi bwiza bigaragara ko hacururizwa ibyo bintu.

Inzu nziza ubona icururizwamo ibyo kurya bitandukanye, harimo imbuto ndetse n'ibindi. Bitonze ku buryo bwiza kandi bugezweho, bigaragara ko buri bwoko bufite ahantu bubarizwa ndetse bunatonze neza. Harimo ibyaciye mu ruganda ndetse n'ibitaraciye mu ruganda.

Inzu nziza icururizwamo ibyo kurya no kunywa bitandukanye biri mu kabati, buri bwoko buregeranye bigaragara ko ibyo bintu byose byanyuze mu ruganda.

Inzu nziza icuruzwamo ibintu byinshi bitandukanye byiganjemo ibyanyuze mu ruganda, hari kandi umuntu w'umugabo ubona ko ari kwitegereza igikoresho bisa nkaho aricyo aje kugura.

Ahantu heza hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye ubona byiganjemo ibyaciye mu ruganda hari kandi n'umukobwa ubona ko ahagaze aho ngaho bisa nkaho ari kureba ibyo ashaka kugirango abashe kubigura.

Akabati karimo ibintu byiza bitandukanye bigaragara ko hacururizwa ibyo kurya ndetse no kunywa bivuye mu ruganda, bitonze ku murongo neza bigaragara ko buri bwoko bufite ahantu buri ndetse n'ubundi bukagira aho bubarizwa.

Inzu nziza irimo amatara meza ndetse n'amakaro, bigaragara ko hacururizwa ibyo kurya bifunze neza kandi byujuje ubuziranenge, bikaba bipanze mu tubati bitewe n'ubwoko bwabyo.

Ahantu heza cyane, hari ibicuruzwa bitandukanye, bipanze mu tubati ku buryo bwiza kandi ku murongo, bigaragara ko buri gicuruzwa cyose gifite aho kiri, wakibariza. Hari kandi n'akayira kagenewe gucaribwamo n'abantu benshi batandukanye, baza guhahira aha hantu.

Inzu nziza y'amakaro ifite amatara menshi hejuru, ikorerwamo ubucuruza nk'ibyo kunywa, ibesembuye n'ibidasembuye bitondetse ku buryo bwiza kandi bwihariye bigaragara ko buri kimwe cyose gifite umwanya wacyo.